Ikimera cyifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu kuvura indwara zinyuranye, iz'abantu n'iz'amatungo yabo babaga boroye.

Ibyatsi abanyarwanda bifashishaga mu buvuzi bwabo bwa gakondo, bivura indwara zitandukanye abubu tutapfa gusobanukirwa n'akamaro kabyo.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo bw'abakera, mu kwivura indwara zitandukanye, no kuvura amatungo yabo uburwayi bwabaga bwayatatse.

Avoka nka rumwe mu mbuto zikundwa n'abantu benshi, ni n'umuti wifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, mu kwivura indwara zitandukanye.

Ibimera n'ibyatsi bitandukanye, byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu kwivura no kuvura amatungo yabo, bitagipfa gukoreshwa no kugaragara ahantu henshi.

Abanyarwanda bo hambere bifashishaga ibimera bitandukanye mu buvuzi bwabo, bivuraga indwara zitandukanye, bakavura n'amatungo yabo.

Ibyatsi by'amajeeri nka bimwe, mu byatsi byifashishwaga mu kuvura, ibikomere cyangwa se kowomora, ahakomeretse mu buvuzi gakondo.

Ibyatsi byifashishwaga n'Abanyarwanda ba kera, mu buvuzi bwabo bivura indwara zitandukanye, cyangwa bavura amatungo yabo.